Ikigo cy'ishuri cyiganjemo abana batoya, aho bamwe bambaye impuzankano abandi bakaba bambaye imyenda isanzwe, imbere yabo hahagaze umwarimu w'umugore.

Icyumba cy'ishuri ry'irerero harimo abana batoya bari munsi y'imyaka itanu, bicaye ku musambi barimo baranywa igikoma buri wese imbere ye hateretse igikombe gisa nk'icyatsi.

Abana b'abanyeshuri bicaye ahantu hamwe ndetse imbere yabo hari ameza, bambaye impuzankano y'ubururu hejuru ndetse n'umukara hasi.

Ikigo k'ishuri ribanza, kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe zisize irangi risa nka darapo y'u Rwanda, imbere yabo hari umwarimu urimo arategura ibyo kubigisha.

Abana b'anyeshuri biga mu ishuri ry'incuke, bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu hejuru ndetse n'amakabutura y'umukara, hagati yabo hakaba hari umugabo urimo arabaganiriza.

Ishuri ry'incuke ry'irerero ririmo abana bakiri batoya bicaye ku mukeka, hakaba hari umubyeyi wicaye imbere yabo ari na we mwarimu wabo arimo arabaganiriza.

Abana batoya bicaye kumukeka aho biga mu irerero ndetse hejuru yabo hahagaze umubyeyi ushinze kubitaho, aba bana rero bafite ibikombe barimo baranywa igikoma.

Abana b'abanyeshuri batoya biga mu ishuri ry'irerero aho bicaye k'umukeka ndetse imbere yabo hakaba hicaye umwarimu utagaragara neza bamuhanze amaso arimo arabaganiriza.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu hejuru ndetse n'amapantaro n'amajipo y'umukara hasi, bakaba bicaye mu ishuri ku meza bose imbere yabo nta kintu gihari.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri biga mu ishuri ribanza ndetse n'umwarimu uhagaze hejuru yabo, arimo arabasobanurira gushushanya inzu.

Abana batoya biga mu ishuri ry'irerero bambaye imyenda itandukanye. Bahagaze imbere mu busitani aho hari ati hahinze imboga. Nanone kandi hari umwarimu wabo uhahagaze.

Itsinda ry'abana batoya biga mu ishuri ribanza, bambaye imyenda ya kaki ndetse n'amashati y'ubururu, barimo barakina umupira mu kibuga cyabugenewe.

Icyigo cy'amashuri abanza kiriho abana batoya bavuye kurya aba bana barishimye cyane muri gahunda yo kurira ku ishuri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana mu irerero, ibi bikoresho bikaba byanditseho imibare itandukanye ikoreshwa abana biga kubara.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu ishuri ribanza bambaye amakabutura ya kaki n'amashati y'ubururu ndetse harimo abambaye bodaboda n'inkweto zifunze.

Mu kigo cy'ishuri imbere hari ikibaho cyo kwandikaho cy'umukara, hejuru hari imifuka bakase bashushanyaho amasaha, mu rwego rwo kwiga kubara isaha.

Umuhanda muremure cyane, aho haparitse abamotari ndetse inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko hari ikigo cy'amashuri kirimo pirimeri ndetse na nasali, iki ikigo kikaba cyitwa Eden.

Icyumba cy'ishuri, kiriho icyapa cyometse ku rukuta iruhande rw'ikibaho cyandikishwaho ingwa ndetse iki gipapuro hakaba hariho ibishushanyo bya mudasobwa ndetse n'ibice biyigize.

Ahantu hitaruye mu Mudugudu urimo ikigo cy'amashuri cyitwa Mugusa, bigaragazwa n'icyapa giteye iruhande rw'umuhanda. Nanone kandi harimo imodoka iri mu bwoko bw'ivatiri.

Ikigo cy'ishuri kigwaho abanyeshuri batoya, kikaba ari ikigo cy'ishuri ribanza, hari abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'amashati y'ubururu.

Abana b'abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, aho bambaye imyenda y'amakabutura ya kaki, amashati y'ubururu ndetse buri wese ahetse igikapu cy'iwe.

Ikigo cy'ishuri kiriho icyapa cyanditseho ngo iki kigo ni icyitwa Save ndetse abanyeshuri bo kuri iki kigo bakaba bambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'akarokaro.

Ikigo cy'ishuri kirimo abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, bambaye amakabutura ya kaki n'amashati y'ubururu, barimo barakina umupira.

Ikigo cy'ishuri kirimo akadobo bajugunyamo imyanda kari mu ibara ry'icyatsi, hakaba hari kuva izuba ryinshi cyane.

Ikigo cy'ishuri ribanza cyambara impuzankano y'ubururu hejuru ndetse na kake hasi, abanyeshuri bakaba bari hanze bakina umupira.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati mashyashya ndetse n'inzugi zisize irange ry'ubururu, imbere hagati haguye imvura ndetse amazi aracyari kureremba.

Ikigo cy'ishuri rishaje, harimo intebe za kera, ndetse hasi nta sima irimo, ahubwo hari amatafari

Abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, aho hari undi muntu umwe, waje kubaganiriza ku bintu bijyanye na mudasobwa.

Abana b'abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, aho bambaye bodaboda, amakabutura ndetse n'amajipo ya kaki, hejuru bakaba bambaye amashati y'ubururu.

Intebe zo mu ishuri ribanza za kera, aho muri iri shuri nta muntu n'umwe urimo.

Ikigo cy'shuri ribanza, kirimo abanyeshuri buri wese imbere ye hakaba, harambitse mudasobwa z'icyatsi arimo ariyigisha.

Ikigo k'ishuri ribanza, kirimo abana babanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'amashati y'ubururu, aho bari hanze bariko barahengereza mu madirishya.

Ikigo cy'ishuri aho icyumba kimwe harimo igishushanyo gishushanyijeho mudasobwa ndetse na bimwe mu bice bigize icyo gikoresho.

Ikigo k'ishuri kirimo icyumba kimwe, ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo agaragaza ko abana bahawe umukoro wo gukorera mu rugo.

Ikigo cy'amashuri abanza, imbere hari ikibaho cy'umukara ndetse mu ruhande rw'ibumoso hari igipapuro gishushanyijeho ibikoresho by'ikoranabuhanga nka computer n'amazina y'ibice biyigize.

Umuryango wo ku ishuri, aho ufite ibara ry'umweru risize ku nzugi ndetse hakaba handitse igipapuro, gishishikariza abana kwitabira gahunda ya andika Rwanda umwaka w,ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, ndetse na cumi n'umunani.

Imodoka zirimo ziragenda mu muhanda ndetse hari n'abanyeshuri bambaye amapantaro y'umukara n'amashati y'umweru bari gutaha bavuye ku ishuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'amashati y'ubururu, inkweto z'umukara, aho bahagaze imbere yabo hari umumama urimo arabaganiriza.

Ikigo k'ishuri kizwi ku izina rya Sumba, ni ishuri ryisumbuye aho bigaragazwa n'icyapa kiri mu marembo y'icyo kigo.

Umuhanda wa kaburimbo aho iruhande rwawo hari icyapa kigaragaza ishuri ryisumbuye rya Kabutare riherereye mu majyepfo mu karere ka Huye.

Imodoka irimo umwana w'umunyeshuri wambaye imyenda ya siporo, uhetse igikapu gitukura ndetse n'inkweto zifunze, uyu mwana akaba yicaye mu modoka agiye gufunga.

Ikigo cy'ishuri kiri mu intebe, ameza ndetse n'utubati ndetse hejuru y'utubati hariho ibikarito hakaba hari nanone imyambaro y'amataburiya y'abarimu.

Abana b'abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye, bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kake, bakaba bicaye ku ntebe batumbereye imbere kuri ekara irimo irabereka amashusho.

Ikigo cy'ishuri ndetse n'abanyeshuri bicaye mu gacaca bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ijire urimo arabaganiriza.

Ikigo cy'ishuri ryisumbuye, aho harimo abana b'abakobwa bicaye imbere, barimo barasoma, abo bana bose bakaba bafite amakaramu ndetse n'amakayi, barimo barigishanya.

Abanyeshuri bambaye imyenda yo gukorana siporo, aho bari mu kibuga ndetse imbere yabo hakaba hari umuyobozi, uri umutoza wabo.

Ikigo cy'ishuri ryigamo abanyeshuri bo mu cyiciro kisumbuye, aho ku marembo y'icyo kigo hagaragaza ko cyitwa ku Karubanda, ni ikigo giherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye.

Ikigo cy'ishuri ribanza kigizwe n'amashuri mashyashya ndetse n'ashaje, hakaba hari abanyeshuri bambaye impuzankano ebyiri zitandukanye, aho bamwe bambaye amapantaro ya kaki, amashati y'ubururu, abandi bakaba bambaye cotton.

Itsinda ry'abantu bari mu kibuga aho barimo barakora siporo, imbere yabo hagati hakaba hari umuntu urimo urayibakoresha.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abanyeshuri batatu barimo barava ku ishuri, ndetse n'umubyeyi umwe w'umumama imbere yabo, inyuma yabo, uhetse umwana.

Imbaga y'abanyeshuri bicaye hamwe aho imbere yabo nanone mu rundi ruhande hari abarimu bicaye ku ntebe barangajwe imbere n'umuntu umwe urimo arabaganiriza.

Ishuri ririmo inzu yubatswe kugira ngo izagirwe isomero, hakaba harimo ibitabo by'ubwoko butandukanye bigiye bipangapanze muri etajeri.

Ibikoresho byabugenewe birimo imboga zo kurya ku ishuri, ibikoresho birambitse ku meza aho bitegereje abanyeshuri ngo baze babiterure bajye kurya.

Ikibuga cyo ku ishuri gihagazemo abana b'abanyeshuri b'abakobwa, aho hagati yabo hari abayobozi barimo barabaganiriza.

Ikigo cy'ishuri ndetse n'abanyeshuri bahagaze mu kibuga bambaye imyenda ya siporo, aho bagiye gukora siporo, imbere yabo hahagaze abayobozi babiri.

Inyubako y'isomero aho harimo etajeri zigiye zipanzwemo ibitabo bitandukanye, hakaba nanone hari umuntu umwe wicaye arimo arasoma n'undi uhagaze.

Inyubako yo ku ishuri abarimu baba bicayemo, aho inyuma yabo hari etajeri irambitsemo ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa iyo barimo barigisha.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bo muri sogonderi bicaye bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, imbere yabo nanone hari undi munyeshuri urimo arabaganiriza.

Itsinda ry'abantu bane biganjemo abagore babiri n'umugabo umwe ndetse n'undi musore umwe, barimo barakingura urugi rw'icyatsi.

Itsinda ry'abana b'abanyeshuri bo muri secondaire basubiye ku ishuri, aho bafite ibikoresho bitandukanye nka matela ndetse na za mare n'ibindi.

Icyumba cy'ishuri kirimo umwarimu uri imbere, aho arimo arigisha imibare gusa ntabwo yambaye itaburiya, mu ntebe hicayemo abanyeshuri bamukurikiye.

Ikigo cy'ishuri aho ari abanyeshuri bahagaze, aho basanzwe bahagarara mbere yo gutangira ishuri ndetse iyo bari kuririmba indirimbo y'igihugu.

Inyubako ndende iri ahantu hitwa Gatagara, imbere hakaba hari urugi ruri mu irangi ry'icyatsi, na none imbere hari ibiti by'imikindo ndetse na pasiparume.

Umuhanda w'amabuye uparitsemo imodoka ifunguye imiryango, ndetse mu ruhande rwayo ibumoso hari abana babanyeshuri bavuye ku ishuri.

Ishuri ribanza ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu hasi ndetse n'ubururu buhiye hejuru, harimo na none umwarimu uri imbere yabo arimo arabaganiriza.

Ikigo cy'ishuri ry'ubumenyigiro, aho hari abatsinda ry'abahungu bambaye impuzankano y'ubururu, barimo bariga ibintu bitandukanye.

Ikigo cy'ishuri kirimo ikibaho, icyo kibaho kikaba gishushanyijeho karindari cyangwa se icyo twakita mu ndimi z'amahanga timetable.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bicaye muri sare barimo barahabwa impanuro n'umugore bahagaze imbere, aba banyeshuri bakaba bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'umweru.

Abana b'abanyeshuri bahagaze imbere ndetse n'undi umwe urimo arabigisha kuririmba w'umuyobozi, imbere nanone hari abayobozi b'inzego zitandukanye buri wese imbere ye hateretse icyo kunywa.

Sitade y'i Kigali iparitsemo imodoka zitandukanye zishinzwe gutwara abagenzi, aho abanyeshuri baruhutse bakaba baje kuzitegerereza aha ngaha muri iyi sitade.

Inyubako yo ku ishuri irimo abanyeshuri bambaye impuzankano itandukanye, aho bamwe bambaye ubururu hejuru, abandi bakaba bambaye umweru, hakaba harimo umugabo umwe uhagaze arimo arabagezaho ikiganiro.

Aho bisi n'imodoka zitwara abagenzi ziparika, aho hagaragara bisi nini yo mu bwoko bwa Volcano, harimo harinjiramo abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu hejuru umweru.

Inyubako ndende cyane y'amatafari ahiye ikaba yubatse ahantu hitaruye ha yonyine, iruhande hakaba hari umuhanda, iyi nyubako ikaba ari inyubako y'abanyeshuri.

Mu ikigo cy'amashuri aho imbere hari icyapa kigaragaza ko iki kigo ari urwunge rw'amashuri rwa Kigoma, hariho igipangu gisize irangi ry'ubururu,...

Ikigo cy' amashuri, aho mu marembo hari icyapa kinini cyane kitagaragaza izina ry'iki kigo.

Umurezi ufite inkoni arimo arakoza ku kibaho, arimo arereka abanyeshuri amasomo atandukanye.

Itsinda ry'abanyeshuri by'umwihariko abakobwa bambaye amajipo ya kake ndetse n'udupira tw'umweru. Bakaba bambaye nanone ingofero zikozwe mu bipapuro.

Ikigo cy'ishuri kiri ahantu mu ruhande rw'iburyo, mu muhanda hakaba hari abagenzi barimo baritambukira, abanyeshuri bo muri iki kigo bambaye imyenda ya siporo isa nk'ubururu.

Icyumba kimwe kiri mu nyubako zo ku ishuri, aho kirimo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha biga ndetse banihugura mu bushakashatsi butandukanye.

Ikigo cy'ishuri ry'isumbuye, kigaragaramo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru, ndetse hasi bakaba bambara umukara, imbere yabo na none hari umwarimu wambaye itaburiya.

Ikigo cy'ishuri cyitwa Inkesha, aho amarembo yayo hariho ibyapa bitandukanye ndetse n'amagambo aranga iki kigo, abanyeshuri biga aha baba bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'amashati y'umweru.

Ikigo cy'ishuri aho harimo ikibaho gisa nk'icyatsi, imbere hakaba hari umwarimu wambaye ikote ry'ubururu, arimo arigisha.

Icyumba cyo ku ishuri, cyiganjemo abantu bambaye imyenda y'umuhondo, barimo barasobanurira abanyeshuri bari mu ngeri zose, abafite ubumuga ndetse n'abatabufite.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kacyii ndetse n'amashati y'umweru, bakaba baje gushengerera ku ngoro ya Bikiramariya i Kibeho.

Abana b'abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye, bambaye iniforume ya kake hasi ndetse hejuru umweru, bari ahabugenewe bakorera inama, aho imbere yabo hari umuyobozi, arimo arabagezaho inama runaka.

Inyubako yo ku ishuri ku kigo, aho hagaragara igikoresho kimenyerewe nka Smart Tank abanyeshuri banyweramo amazi.

Inyubako yicayemo abantu batandukanye b'ingeri zose abagore n'abagabo aho barangariye imbere aho umuntu umwe arimo arabagezaho ikiganiro.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bigiye bipanzwe muri etajeri, nanone hari ameza n'intebe ebyiri zo kwicaraho.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza kirimo ibitanda abanyeshuri bararaho, bibiri bikaba bigerekeranyije kandi bishashe neza, hari na none intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo kwigiraho.

Icyumba cyo ku ishuri abanyeshuri bararamo harimo ibitanda bibiri bigerekeranye kimwe hasi ikindi hejuru, inyuma na none hari utubati dushinzwe kubika ibikoresho by'abanyeshuri.

Umuhanda w'amapave uri mu kigo cy'amashuri makuru ya kaminuza ishami rya Huye, aho iruhande rw'iyo mihanda harimo inzu abanyeshuri bararamo.

Imodoka eshatu ziparitse mu kigo cy'ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho hari ibiti nyuma yabyo ndetse hakaba hari n'urusengero.

Abantu bambaye imyenda y'ibisarubeti, aho hari abanyeshuri barimo barasohoka, muri kaminuza y'ubumenyingiro ya Huye.

Ikigo k'ishuri rya kaminuza riherereye i Huye, iki kigo kikaba kizwi ku izina rya PIASS, ibi bigaragazwa n'icyapa kiri mu marembo.

Icyumba cyo ku ishuri kimwe, kirimo ibikoresho bitandukanye, computer, utubati n'ibindi n'ikindi gikoresho gipfundikije umuvufuniko w'ubururu kivamo amazi.

Inyubako yo ku ishuri itarimo umuntu n'umwe, hakaba harimo intebe ndetse n'ameza abanyeshuri bifashisha igihe bari kwiga.

Inyubako isakaje ibati ry'icyatsi, iri ahantu hitaruye ndetse yubatse nka etaje, ikaba iri mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye: tapi ifashe hasi, sharijeri icometseho telefone, isaha, parufe ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Ibitanda bigerekeranye byo ku ishuri bibiri, kimwe hasi, ikindi hejuru, inyuma yaho hari udukoresho bamanikaho imyambaro itandukanye.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe n'ameza ndetse imbere yaho hari ikibaho cy'umweru na projecteur ariko nta muntu n'umwe uri muri iki cyumba.

Inyubako ibamo abanyeshuri aho hari akameza karambitseho amasahani ndetse n'agatebe k'ubururu, inyuma kandi hari agakoresho barambikamo inkweto.

Inyubako irimo intebe zitandukanye zo kwegamiraho, inyuma hakaba hari umugabo wicaye ndetse ufite n'imashini imbere ye urimo arasoma.

Inyubako yo muri kaminuza aho iki cyumba bakigiramo ndetse bakanagikoreramo ubushakashatsi, ni umuryango uri hejuru muri etage mu igorofa ryo hejuru cyane.

Inyubako irimo igitanda gishashe neza, igitanda kiri muri kaminuza kiryamwaho n'abanyeshuri, hari nanone intebe yo kwicaraho ameza ndetse n'ibindi bikoresho.

Umuhanda w'i giseregenyi uherereye mu karere ka Huye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho uva ku muhanda munini werekeza ahabera imyidagaduro.

Sare nini cyane, yo ku mu kigo runaka cy'ishuri, hakaba harimo inkingi, ndetse n'ameza, iyi sare ikorerwamo ibintu bitandukanye, ariko nta muntu n'umwe uyirimo.

Itsinda ry'abantu bicaye mu cyumba, aho buri muntu imbere ye hateretse computer, imbere nanone yabo hari umuntu w'uruhu rwera, arimo arabaganiriza.

Inyubako yo ku ishuri igaragaza aho bakirira abantu ndetse n'icyapa kigaragaza ifoto y'umuntu ukora muri icyo cyumba, amazina y'iwe yitwa BIKORIMANA Ishimwe.

Inyubako nini cyane ikorerwamo inama, aho harimo intebe nyinshi cyane bazinga, zikaba nta ntebe n'imwe yicayeho umuntu.

Icyumba kirimo abantu bane, bagaragara ndetse n'undi umwe uri inyuma, bose bambaye imyenda y'umweru y'amataburiya, na none kandi wambaye za ga mu ntoki.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru aho bari mu cyumba kimwe buri wese imbere ye hari igikoresho arimo arareberamo akora ubushakashatsi.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho harimo umusekirite wicaye ku ntebe, ahantu mu gacucu.

Ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda izwi ku izina rya Catholique University of Rwanda kiri mu majyepfo mu karere ka Huye, biragaragazwa n'icyapa kiri hanze.

Inyubako yo ku ishuri irimo ibikoresho byifashishwa igihe abanyeshuri biga igikoresho kiri hejuru cyitwa porojegiteri, gifasha gusakaza ibirimo imbere muri computer.

Umukobwa urimo aratambuka mu marembo asohoka ku kigo cya Kaminuza cya Huye ahitwa i Mamba. Arimo aravugira kuri telefone.

Ikigo cy'ishuri aho inyubako imwe ya salle harimo intebe nyinshi zitandukanye zicarwaho n'abantu ariko nta muntu n'umwe uri muri iyi nyubako.

Ikigo cy'ishuri aho kizitije ibyuma, imbere yacyo na none hakaba hari umuhanda ukomeje ndetse n'ubusitani, muri icyo kigo harimo abanyeshuri bari gutambuka.

Ikigo cy'ishuri, kikaba kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye amakoti, abandi bambaye amakanzu n'amapantaro, bakaba bari imbere, bari kwerekana ibintu runaka.

Itsinda ry'abantu b'abanyeshuri bari mu cyumba cyabugenewe gikorerwamo ubushakashatsi, bambaye impuzankano y'amataburiya y'umweru, barimo bararebera mu bikoresho biri imbere yabo.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bita i Mamba, hakaba haparitse imodoka iri mu bwoko bwa Suzuki, imbere y'amashuri.

Amazu yo mu ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yubatse atandukanye, aho amwe yo ruguru nk'uruhande rw'iburyo ari amashuri, hanyuma ayo hepfo ujyaho uciye kuri esikariye ari amazu abantu bararamo.

Inyubako yo muri kaminuza irimo abanyeshuri, aho imbere hari akabati bashyiramo ibikoresho nk'imyambaro n'ibindi.

Ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kikaba giherereye ahantu bita i Mamba, hakaba harimo abantu bashinzwe gukora amasuku barimo barakubura mu marembo yacyo.

Inyubako yitaruye, iri muri kaminuza y'i Huye, mu ruhande rw'iburyo harimo isomero, hakurya hari inzu iberamo inama ndetse ihurirwamo n'abantu benshi.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho hari imyenda yanditswe hanze ndetse n'abandi bantu bari gusohoka, hari na none inzu z'amacumbi ziraramo abanyeshuri.

Inyubako yo ku ishuri irimo icyumba kimwe cyicayemo abantu batandukanye, buri wese imbere ye hakaba hari mudasobwa, bakaba bari kwiga ku ngingo zinyuranye, inyuma na none hari etajeri zirimo ibitabo.

Icyumba cyo ku ishuri abanyeshuri bararamo, aho harimo ameza ndetse n'intebe ebyiri, kuri ayo meza hateretse ubujerekani butatu bw'amazi ndetse na keto yo gutekamo amazi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bigiye bipangwa muri etajeri nkaho ari mu isomero, hari nanone udutebe tubiri duteretse imbere y'ameza.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho harimo inzu ndende abanyeshuri bararamo ndetse batonze umurongo aho berekanira amakarita mbere yo kwinjira.

Icyumba cyo ku ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye, ameza, intebe, ndetse na ravabo yo gukarabiramo, iki cyumba kikaba kiri muri kaminuza aho abanyeshuri barara.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye by'ubwoko bwose, birambitse ahabugenewe muri etageri ndetse hari n'intebe zo kwicaraho.

Inyubako yo ku ishuri irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo utubati, intebe ndetse n'ameza, hejuru y'utu tubati tubiri hateretse ibikarito birimo ibikoresho bitandukanye.

Umugabo wicaye mu cyumba cye wenyine, aho arimo arasoma igitabo, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa ku meza ndetse uyu mugabo arishimye cyane.

Inyubako yo muri kaminuza, irimo udutebe twabugenewe ndetse n'ibikoresho bikoreshwa igihe abanyeshuri biga.

Mu cyumba cy'ishuri ryo muri kaminuza, aho harimo umuntu umwe wicaye imbere na computer iteretse imbere yiwe, icyumba kirimo amarido.

Ikigo cy'ishuri kirimo icyumba abakobwa bararamo ndetse n'akabati karimo ibikoresho bitandukanye nk'amashakoshi, imyenda, ibikombe amafoto ndetse n'ibindi.

Icyapa kigaragaza resitora yitwa umucyo, aho abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye bakunda kurira. Hari abari kwinjira ndetse n'abari gusohoka.

Inyubako y'ishuri rya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye rigaragaramo inzu ndende abanyeshuri baryamamo ndetse imbere mu muhanda harimo abanyeshuri binjira n'abasohoka mu kigo.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ikaba yubatswemo inzu ndende ebyiri zirarwamo n'abakobwa, ndetse n'undi muryango umwe wigirwamo amasomo atandukanye.

Ishuri ririmo abanyeshuri bo muri kaminuza, aho imbere yabo hagaze umwarimu ufite kompiyuta, arimo arabasobanurira amasomo atandukanye, aba na bo bamuteze amatwi ndetse bamuhanga amaso.

Inyubako iri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hakaba harimo akazu abashinzwe umutekano baba bicayemo ndetse ku marembo hari guca imodoka iri gusohoka.

Ikigo cy'ishuri rya kaminuza, aho hari intebe ebyiri ndetse n'ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye, higanjemo ubucupa bwo kunyweramo amazi, ikirahuri cyo kwirebamo, imitaka ndetse n'ibindi.